Umuntu muzima agira ibimuranga, bimubanisha n'abandi bituma agenderana n'abandi, bimuha umutekano n'icyizere mu bantu abana nabo, bityo akaba umuntu muzima.

Ikoranabuhanga ni ingenzi cyane，buri wese agira isoko arivomamo， agira icyo yungukiramo， rikoreshwa neza rikabyara umusaruro， ryakoreshwa nabi nabwo rikagira ingaruka，ziba ku barikoresha nabi.

Buri wese agira amarangamutima ye agira uko yakira ibyo abona ibyo ari kumva buri wese aba afite ibyo ari gutekereza kabone n'ubwo yaba ari mubandi hari uba ahari ariko adahari ni ko tumera mu ubuzima bwacu.

Umwuga wose umuntu akora awufitemo ubumenyi，awukora yishimye，agafata neza abakiriya， nabo baramukunda， baza kumushaka，bakamukura n’ikantarange， kuko aba abakorera ibintu neza.

Ntaganda afite bagenzi be baririmbana bafite imyenda ibaranga, bagira ibikoresho bifashisha mu kunoza amajwi yabo, wumva binogeye amatwi ku buryo bwiza.

Ikoranabuhanga ni ikintu cyiza cyane ridufasha gukora ibintu byacu vuba vuba, rikoreshwa n'ababa barifitiye ububasha ndetse n'ubushobozi bwinshi cyane, kuko ntabwo ari uwo ari we wese upfa kurikoresha.

Kumenya umwuga mu buzima ni ingenzi, kuko birafasha. Nyirabwo agira icyo yibikaho mu bijyanye n'amafaranga, mu bwenge ndetse n'abantu bamugirira icyizere kuko abakorera ibyo batashobora kwikorera.

Iyo muntu afite ubumenyi ku kintu runaka agikora yishimye aseka, bikagaragara kuko ntacyo yishinja mu bintu agiye gukora kuko ntantugunda aba afite mu mutima, kandi yifitiye icyizere cyinshi cy' ibyo agiye gukora.

Umwuga w'ubukorikori umwe bita ubumenyingiro, ufite ibikoresho bitandukanye bitewe n'umwuga wawe. Ni ngombwa ko iyo ufite umwuga wakamiritse, ugomba kuba ufite ibikoresho bijyanye na wo, kugira ngo ushobore kugira icyo wakorera abakugana.

Ubumenyi ngiro ni bwiza cyane，umwana wabumenyereje yiteza imbere， akura azi icyo gukora， ni yo mpamvu badushishikariza kujyana abana bacu，kumenya ubwo bumenyi ngiro.

Uburezi ni inkingi y'iterambere, ni ngombwa ko umwana wese yagira aho arererwa hazwi ,akagira umurera, akagira imyambaro imuranga, kugira ngo bamenye aho avuye n'aho agiye.

Iyo mibereho y'umuntu ari myiza agaragara neza, asaga neza cyane, ibikwiye byose bijyanye n'umubiri we arabikora, akungura ubimufashagamo, kandi na we agira inyungu kuko aba asa neza.

Uburyo bwiza bw'imikorere bwose bugira raporo. Ni ngombwa kuko uwakoze wese agaragaza ibyo yakoze, akerekana imbogamizi agira mu mikorere ye n'ibisubizo ateganya.

Ni byiza ko ibintu bijya biraba mu mwanya wabyo, igihe umuntu atari kubikoresha, wajya kubireba ukabisanga aho bigomba kuba biri, usanga bifite isura nziza cyane.

Mu isi y'uyu munsi n'iyi minsi, ikoranabuhanga ni ryiza cyane kuko rigira ibyo rifasha abarikoresha, abashaka serivisi zaryo bazibona byihuse, kuko haba hariho n'abo kuzibafashamo.

Uburezi buba inkingi nziza y'iterambere, ni byiza ko umwana wese yagira aho abarizwa, muri ubwo bumenyi afata, hakagira imyenda imuranga, n'aho yiga hakaba hazwi, nta gushidikanya.